Abana benshi, bicaye ku mukeka, mu nzu. Bari kumwe n'abantu babiri bakuru, abana bafite ibitabo mu ntoki barimo gusoma. Barasa nk'abari mu rerero, ababyeyi babo bahabazanye kugira ngo, babigishe bazakure bazi ubwenge.

Umugore wambaye ibitenge, ahagaze hagati y'abana benshi bicaye ku mukeka, imbere hari icyapa cyanditseho ngo urukwavu. Bari mu nzu isize irangi ry'umuhondo ndetse n'undi muntu wicaye ku ntebe, bisa nkaho ari irerero ry'abana batoya, bari kubafasha kugira ngo bazakure bazi ubwenge.

Abana benshi higanjemo abambaye impuzankano y'umuhondo n'icyatsi, bahagaze mu busitani iruhande rw'icyumba cy'amashuri, bifashe mu mutwe, bari kumwe n'abantu babiri basa nk'abari kubafasha gukora imyitozo ngororamubiri. Mu cyumba cy'amashuri cyubatse iruhande rw'umuhanda, ndetse hirya yacyo hari inzu n'ibindi byatsi, n'ibiti bitandukanye.

Abana benshi b'incuke bicaye hasi ku mukeka mu nzu, bari kumwe n'undi muntu mukuru, umeze nkaho arimo kubagaburira, bose bafashe mu ntoki amasahani barimo kurya, hirya yabo hari indi ntebe n'ameza, bigaragaza ko ari nko mu irerero, bahazanye abana kugira ngo babigishe bazakure bazi ubwenge.

Urupapuro rumanitse ku gikuta rwanditseho amasomo ndetse hariho n'ibishushanyo bitandukanye, rumeze nk'urufasha abanyeshuri mu kwiga mwarimu abasobanurira cyangwa uhanyuze kugira ngo amenye ibijyanye n'aho ageze.

Intebe zikoze mu biti zifatanye n'ameza ziri mu nzu, harimo n'akabati gakoze mu biti ndetse n'icyapa, bigaragaza ko ari aho abanyeshuri baza bakahigira, inzu yubakishije amatafari yerekana ahantu haciriritse nko mu cyaro abanyeshuri baza kwigira.

Inzu irimo ameza menshi n'akabati biteretsemo ibitabo ndetse n'impapuro, ifite umuryango ufunguye, usize irangi ry'ubururu, bisa nkaho ari mu kigo cy'amashuri, aho abayobozi cyangwa abarimu babika impapuro cyangwa ibindi bikoresho bifashisha mu kwigisha abanyeshuri.

Aba benshi abakuru n'abatoya bambaye impuzankano, bari mu kibuga hagati y'amazu asakaje amabati yashaje yaserebeye ndetse n'inzu zubakishije amatafari ahiye. Kubera abana bahanyanyagiye birasa nk'aho ari mu kigo cy'amashuri baba baje kwiga wenda barimo gufata akaruhuko cyangwa aribwo bari kuhagera.

Abana benshi bicaye hagati y'amazu mu kibuga ahantu hasakaye. Imbere y'ibyumba by'amashuri, hari abantu bamwe bihaye Imana basa nkaho babafasha, kugira ngo babungure ubumenyi.

Abanyeshuri bambaye impuzankano, bari kuva mu nzu ngari, bisa nk'aho ari ku rusengero, muri kiliziya, aho abantu bajya kwiragiza Imana. Iruhande rwa kiliziya hari ibiti by'ubwoko butandukanye ndetse n'ubusitani. Ni kiliziya yubatse iruhande rw'umuhanda.

Abanyeshuri batatu bari mu muhanda mugari nyabagendwa, bambaye impuzankano, bari kugana ku kigo cy'amashuri. Kuri icyo kigo cy'amashuri harimo amazu menshi ndetse n'ibiti bigaragaza ko ari ahantu heza, aho abana bahurira kugira ngo biyungure ubumenyi.

Abana bicaye hasi mu busitani, bafite ibitabo mu ntoki ndetse bari kumwe n'undi muntu mukuru, bameze nk'abari gukora umukoro cyangwa arimo kubigishiriza aho ngaho kugira ngo bagire ubumenyi biyumvire.

Abanyeshuri bambaye impuzankano, bari kunyura ku muhanda w'amabuye, wasenyutse, uri iruhande rw'ikigo cy'amashuri. Mu kigo cy'amashuri hari ibyumba by'amashuri byinshi ndetse n'abanyeshuri barimo bahagendagenda. Iruhande rw'amashuri, hari indabo ndetse n'ubusitani.

Abana, bambaye impuzankano, umwe afashe isahane mu ntoki, bameze nk'abari mu cyumba cy'amashuri, barimo gufata ibyo kurya, kugira ngo, bagire ubuzima bwiza, babashe kwiga.

Icyumba kirimo ameza ateguye, hateretse ku meza mudasobwa, impapuro, amakayi, ndetse n'umuti bihanaguza intoki, harimo n'intebe n'ibindi bikoresho bitandukanye, bigaragaza ko ari nk'ibiro by'umuyobozi wo ku ishuri cyangwa undi muntu uhagarariye, abandi bantu b'imbaga nyamwinshi.

Intebe, akabati ndetse n'ikibaho biri mu cyumba cy'amashuri, ndetse hamanitseho urupapuro rwanditseho ko aho ari aho abanyeshuri cyangwa abarimu bahurira mu buryo bwo gutegura cyangwa kunoza imyigire y'abanyeshuri.

Abakobwa babiri bambaye impuzankano ya kaki n'umweru, bahagaze hejuru y'ameza afatanye n'intebe, barimo guhanagura ibirahure by'amashuri yubakishije amatafari ahiye.

Abanyeshuri bambaye impuzankano bicaye ku ntebe, bafite amakayi barimo kwandika, inyuma yabo hari utubati turimo ibitabo. Basa nk'abari mu ishuri cyangwa mu isomero barimo kwiga kugira ngo biyungure ubumenyi.

Abanyeshuri benshi b'urungano bambaye impuzankano hejuru umweru, hasi kaki. Bicaye ku ntebe zibaje mu biti zikozwe mu mbaho, bari mu cyumba cy'amashuri bameze nk'abari gukora ikizame cyangwa bari kwiga kugira ngo biyungure ubumenyi.

Umuntu uri kunyura mu muhanda uri iruhande rw'ikigo cy'amashuri, imbere y'ikigo cy'amashuri hari abana bambaye imyenda yiganjemo ubururu n'umweru, ndetse mu kigo cy'amashuri harimo inyubako nyinshi n'abandi bantu bari kugendagendamo, ibiti ndetse n'indabyo z'ubwoko butandukanye.

Ikibaho cyanditseho ibibazo by'Icyongereza abanyeshuri bo mu wa gatanu indimi bakoze kuwa cumi na kane z'ukwa kabiri bibiri na makumyabiri na gatanu, ndetse hagaragaramo n'impera z'intebe ibajwe mu imbaho, ni ishuri rishaje bitewe n'imyobo iri kugaragara imbere iruhande rw'ikibaho.

Aba bambaye impuzankano y'ubururu n'umweru bahagaze imbere y'ibyumba by'amashuri, bari kumwe n'abarimu babiri bambaye amatabuye y'umweru, imbere yabo, hahagaze umuntu wi'igitsina gabo wambaye imyenda y'abashinzwe inzego z'umutekano, arimo kubaganiriza, ahagaze mu kibuga kiri imbere y'ibyumba by'amashuri.

Abanyeshuri babiri bambaye impuzankano, bari kugana mu marembo y'ikigo cy'amashuri cyubatse kijyambere gisakaje urusenge rw'ubururu, cyubakishije amatafari ahiye, hari ubusitani ndetse mu marembo hari ipikipiki ihaparitse n'abantu bari kunyuraho, n'umuntu w'igitsina gore uri gusohoka, bigaragara ko ari ahantu nyabagendwa kuko n'inyuma hari ibiti.

Abanyeshuri bambaye impuzankano ishati y'umweru hasi bambaye ubururu, bicaye mu ntebe mu nzu mberabyombi, imbere yabo hari ikirangantego cy'Igihugu cy'u Rwanda, hari n'abantu batandatu bahicaye ndetse hari na gafotozi barasa nkaho baje kubaganiriza.

Amarembo y'ikigo cy'amashuri, gifite umuryango w'ubururu, hejuru y'umuryango handitse ko ari groupe scolaire st joseph d'exelance, ni igipangu kiri ku muhanda gifite amabara y'ubururu n'umweru, mo imbere hagaragara inzu bigaragaza ko ari aho bakorera imirimo itandukanye muri icyo kigo cy'amashuri.

Umuntu wambaye imyenda y'abashinzwe umutekano, ufashe mu ntoki inkoni, uhagaze iruhande rw'inzu nini cyane, nkuko byanditseho n'ikigo cy'amashuri cyitwa maldeverb, iruhande rw'iyo nzu hari ibiti n'indabo z'ubwoko butandukanye, n'ubusitani bumeze neza, ndetse hagaragara n'ibindi bikoresho bitandukanye, nk'icyo bakarabiramo naho bajugunya imyanda.

Ikibuga kiri imbere y'ibyumba by'amashuri bifite urusenge rw'ubururu, imbere n'inyuma y'ibyumba by'amashuri hari ibiti ndetse n'imbere y'ibyumba bimwe hari ibyatsi byahameze.

Abana benshi bambaye impuzankano bari mu kibuga bakiniramo umupira w'amaboko, imbere yabo hari amazu, ameze nk'aho ari ibyumba by'amashuri. Bahateraniye, bameze nk'abari guhabwa amabwiriza barangije cyangwa bagiye gutangira umukino cyangwa amarushanwa runaka.

Abantu bahagaze imbere abandi bari kwinjira ku ma nzu mbera byombi hanze y'iyo nzu hari amasahani ndetse n'abandi bagabo babiri bisa nk'aho ari aho bafatira amafunguro barimo kwinjiramo igihe cyo kurya kigeze.

Inzu ya kijyambere igeretse, imbere yayo hari ubusitani burimo ibyatsi, isize irangi ry'umuhondo, ifite n'urusenge rwiza kandi irapavomye, hari ikirere cy'ubururu nkaho imvura imaze cyangwa igiye kugwa ,kuko mu kirere harimo ibicu.

Igipangu cy'inzu yubatse iruhande rw'umuhanda, imbere mu gipangu hari inzu zubakishije amatafari ahiye zisakaje urusenge rw'ubururu, hanze hari inzira y'abanyamaguru ndetse n'umuhanda mugari unyuramo imodoka cyangwa ibindi binyabiziga n'ibiti. Hameze nko mu kigo cy'amashuri cyubatse iruhande rw'inzira.

Urungano rw'abana bambaye imyenda bakorana imyitozo ngororamubiri, bahagaze imbere y'inzu yubatse mu buryo bwa Kinyarwanda, imbere yabo hari abantu basa nk'abarimu cyangwa abatoza babafasha gukora siporo neza.

Abanyeshuri benshi bicaye ku kibuga bakiniramo, bambaye impuzankano, batumbiriye imbere nk'aho barimo gufata ifoto y'urwibutso.

Udusanduku tubiri dukoze mu cyuma, dufunze neza, n'ingufuri, duteretse iruhande rw'intebe, ameza ndetse, n'ikibaho. Bigaragaza ko, ari aho abanyeshuri cyangwa abarimu, babika ibikoresho byabo.

Umwarimu uhagaze imbere y'abanyeshuri b'inshuke bicaye mu ishuri ku ntebe, afite igitabo mu ntoki asa nk'urimo kubigisha, imbere yabo hari ikibaho nkaho yandika ndetse n'ibindi byanditseho, baje kwiga kugira ngo biyungure ubumenyi, bazagire ejo heza.

Ubusitani buri imbere y'inyubako ndende igeretse, ifite igisenge cy'ubururu. Hagati y'ubusitani n'inyubako, hari akayira k'abanyamaguru, ndetse ubusitani bukikijwe n'ibiti by'ubwoko butandukanye. Hameze nko mu kigo cy'amashuri kuko hari inyubako zitandukanye kandi nziza.

Abanyeshuri benshi bambaye impuzankano bicaye mu kibuga kiri hagati y'ibyumba by'amashuri, imbere yabo hicaye abandi bantu ndetse n'abahagaze, harimo n'ushinzwe umutekano, bameze nk'abari kubaganiriza cyangwa kubagezaho isomo kugira ngo bimakaze umutekano cyangwa ubuzima bwiza.

Abantu benshi b'urungano, bari gukina, umupira w'amaboko. Bari kumwe n'undi muntu umeze nk'umutoza cyangwa umusifuzi. Ku mpande hicaye bandi bantu, basa nk'abari gufana, cyangwa baje kubareba, bamwe bambaye n'impuzankano. Inyuma yaho hari amazu, insina n'ibiti bigaragaza ko, bishobora kuba ari mu kigo cy'amashuri, barimo barakina imikino ya gicuti cyanga bari kwiga uko bakina.

Kawunga iri mu mabase atandukanye. Amabase amwe arimo kawunga yashiririye. Ateretse ku meza akoze mu giti. Bisa nkaho ari kawunga bagiye kugaburira abanyeshuri.

Icyapa kiriri mu ibara ry'umweru gishinze ku muhanda nkuko byanditseho, ni icya Ecole Secondaire Saint Trinite de Ruhango, cyanditseho amasomo bigisha mu mashuri yisumbuye, nimero za terefone n'aho wabandikira, ndetse n'ibirometero wagenda uvuye kuri icyo cyapa kugira ngo ugere kuri icyo kigo.

Amasikariye ndetse n'ubusitani buteyemo ibiti biri hagati y'amazu atandukanye ndetse mu busitani harimo n'ibyapa biri mu mabara y'ubururu n'umweru.

Icyapa cya kaminuza nkuru y'u rwanda kiri mu mabara y'ubururu n'umweru, gishinze mu busitani kiri kuyobora abantu munzumberabyombi, isomero ndetse naho bakurikiranira ibijyanye na Siyansi.

Inzu ya kijyambere igeretse, yubakishije amatafari ahiye ndetse n'ibirahuri, hari abantu bayirimo, ndetse imbere y'inzu hari ubusitani burimo ibyatsi n'ibiti bitandukanye.

Abanyeshuri bicaye mu cyumba kinini bambaye amataburiya y'umweru, bari kureba muri mikorosikopi basa nk'abari mu bushakashatsi cyangwa bafite ibyo bari kwigaho ku ishuri nk'abiga Kaminuza.

Inzu ya kijyambere yubakishije amatafari ahiye igeretse, iri ku muhanda imbere yayo hari ubusitani bugezweho, mu marembo hari imodoka zaparikitse n'ibiti ku mpande mu imbere, bigaragaza inzu nyabagendwa ikorerwamo ibikorwa byo kungura abantu igednwa n'abantu benshi.

Icyumba kirimo ikibaho, ku kibaho hari ifoto yoherejwe mu buryo bw'ikoranabuhanga ivuye muri mudasobwa, imbere hari ameza n'ibindi bikoresho bitandukanye bigaragaza ko ari icyumba bahurizamo abanyeshuri cyangwa abandi bakozi runaka kugira ngo bagire icyo barebera hamwe cyangwa biyungure ubumenyi.

Ikibaho kiriho ishusho, yavuye muri mudasobwa hejuru y'ikibaho, hari imashini y'ikoranabuhanga, irimo kuzana urumuri ndetse igafata n'ayo mashusho ari muri mudasobwa, ikayagaragaza. Bisa nk'aho ari mu nzu abanyeshuri bigiramo, cyangwa abandi bantu bahuriramo kugira ngo bagire ibyo barebera hamwe, bifashishije ikoranabuhanga.

Intebe n'ameza bipanze mu cyumba cy'amashuri, imbere yazo hari ikibaho cy'umweru ndetse n'itara, bigaragaza ko ari aho abanyeshuri bigira.

Ameza n'intebe z'amabara ziteye mu nzu, mu imbere yubakishishe amatafari ahiye, hari n'inkingi hasa nkaho ari icyu abanyeshuri baza kwigiramo

Abantu benshi bicaye mu nzu mberabyombi, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa, barahuze cyane bameze nk'abarimo kwiga cyangwa bafite icyo barimo gutekerezaho mu nama.

Ameza magari ndetse n'intebe z'ubwoko butandukanye, biteretse mu cyumba gisukuye, gisize amarangi. Imbere mu cyumba, hari itara ndetse n'ikibaho, hameze nko mu cyumba cy'amashuri.

Kiliziya irimo intebe ndende zikozwe mu mbaho, harimo n'abantu bicayemo barimo barasenga ndetse n'undi muntu ubahagaze imbere, asa nkaho ari inzu yagenewe abantu baje mu bikorwa byo kwiragiza Imana.

Umuntu uri gutambagira mu nzu mberabyombi, isukuye, itatse amabara atandukanye, harimo ameza menshi azengurutswe n'intebe z'umukara, asa nkaho ari kuhatunganya kugira ngo haze kubera inama cyangwa abanyeshuri baze kuhigira.

Abantu babiri bahagaze mu muryango w'icyumba cy'amashuri, muri icyo cyumba hari ameza maremare intebe zigezweho, ibibaho bibiri icy'umweru n'ik'icyatsi, ndetse n'ibindi bikoresho n'aho bakarabira, ndetse n'icyo babikamo imyanda, bigaragaza ko ari amashuri agezweho abanyeshuri bazamo ngo bige.

Abantu bane bicaye mu twatsi hanze, bari kureba imbere bishimye, babiri bafite mudasobwa basa nkaho barimo kwiga cyangwa bari bari kwiyungura ubumenyi kugira ngo bagire icyo bageraho, inyuma yabo hari ibiti n'amazu bigaragaza ko ari ahantu hasanzwe hagendwa n'abantu cyangwa hatuye abantu batandukanye.

Ameza n'ibindi bikoresho bitandukanye biri mu cyumba bakoreramo ubushakashatsi. Ni icyumba cyijimye, gifunze kandi gisukuye, nk'icyateguriwe gukoreramo ubushakashatsi.

Inzu ya kijyambere igeretse yubatse iruhande rw'umuhanda, ifite uruzitiro. Imbere mu ruzitiro hari ubusitani. Hanze mu muhanda hari abantu barimo bagenda, n'ibiti bigaragaza ko ari ahantu nyabagendwa, abantu bagana kugira ngo bagire icyo babafasha.

Ibiganza biri gukora mu masahani atandukanye, ariho ibiryo by'ubwoko bunyuranye, ndetse n'ibikombe birimo icyo kunywa, bigaragaza uburyo bwo gutegura indyo yuzuye ku bantu benshi, ku buryo buri wese arya, akagira ubuzima bwiza.

Inzu irimo icyapa cya kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami ryigisha ibijyanye n'ubuvuzi cyanditseho amasomo batanga ndetse muri iyo nzu harimo n'ibindi bikoresho bitandukanye bifashisha mu myigire y'abanyeshuri nk'intebe, ameza ndetse n'ibikoresho bimeze nk'umubiri w'umuntu.

Umuntu wicaye mu nzu, afite igitabo mu kaboko k'ibumoso arimo kugisoma, imbere ye hari mudasobwa iteretse ku meza ndetse ku meza hari n'ibindi bitabo bigaragaza ko ari aho yigira cyangwa asomera kugirango yiyungure ubumenyi.

Abantu benshi bicaye ku ntebe mu nzu mberabyombi, imbere yabo hari ameza magari atwikirije ibitambaro by'umutuku, bafite impapuro bari gusoma ndetse n'amazi, hari n'abandi bahagaze babiri mu nzu isukuye ifite n'amadirishya, basa nkaho baje mu nama cyangwa ari aho abarimu bahurira, barimo gukurikirana iby'amasomo y'abanyeshuri.

Abantu bari iruhande n'imbere mu mahema y'umweru amanitse iruhande rw'amazu nkuko byanditse ku gikuta, baje mu bijyanye n'imikorere y'umuryango Nyarwanda wa FPR.

Icyumba cy'amashuri kirimo intebe zidapanze ndetse n'ameza agezweho, cyubakishije amatafari ahiye, gifite amadirishya meza ndetse n'amarido ndetse n'igikoresho cy'ikoranabuhanga bakoresha bari kwerekana amashusho.

Icyapa kiri ku muhanda imbere y'igipangu kirimo amazu menshi, cyanditse ko ari icya Kaminuza Gatolika y'u Rwanda. Mo imbere mu gipangu hari amazu atandukanye ndetse n'ibiti.

Umuntu uhagaze imbere y'abantu batandatu, iruhande rwe hari mudasobwa ndetse afite ibintu ari gucana asa nk'ubereka uko abigenza cyangwa akoresha ako gakoresho, bari mu nzu isukuye basa nk'abari kwiga ibijyanye n'amashanyarazi mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Intebe nyinshi za kijyambere zikoze mu byuma zifatanye n'ameza magari, ziteye mu nzu mberabyombi isukuye, isize n'amarangi. Ifite n'amadirishya arimo ibirahuri. Ikigaragara ni uko n'izuba ririmo kuva bitewe n'urumuri ruri kuva mu birarahuri.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, afite urusenge rw'umutuku isize n'amarange y'umweru, imbere yayo hari uruzitiro rwubakishije ibyuma ndetse n'ibyatsi bihinze.

Abantu benshi bicaye mu nzu mberabyombi. Bari ku ntebe zikozwe mu biti. Imbere yabo hari umuntu ubahagaze imbere, ameze nk'uri kubigisha, na bo bafashe mu ntoki amakayi n'ibitabo, bameze nkaho bamukurikiye.